Aya ni amafaranga ari mu bwoko bw'igiceri yakoreshwaga ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi na karindwi, igihe abantu bishyurana mu gihugu cy'u Rwanda.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kubika amata igihe ari aho bayacururiza mu buryo bwo kuyakonjesha kugira ngo amare igihe.

Uru ni urupapuro cyangwa se icyemezo uhabwa cyerekana ko utabamo umwenda ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.